Abagabo bane n'umugore umwe. Barimo guhinga umurima wabo, uwo murima barangije gukata ibyatsi byari biwurimo kugira ngo babone uko bawuhinga mu buryo buboroheye.

Mediko laboratori yo mu karere ka nyagatare. Aha ni ku bitaro by'akarere, imbere yabyo hari ambilanse ishinzwe gutwara abarwayi bafite kondisiyo iri danje ndetse n'abamerewe nabi mu buryo bugiye butandukanye.

Umuntu aje kwivuza kwa muganga. Bisa nkaho aje kwipimisha ndetse muganga yafashe agatoki ko hagati agiye kugatera urushinge kugira ngo amufate amaraso.

Muganga afashe urushinge mu ntoki, yiteguye kureba ibizamini by'umurwayi amaze gufata ndetse ari kubyitegereza neza kugira ngo atange ibisubizo.

Abantu benshi bicaye muri sare ku ntebe zigiye zose zisa bari mu nama ndetse bamwe bafite n'amakayi mu ntoki bari kwandika ibintu barimo guhabwa n'ababayoboye muri aka kanya.

Umumama ufite mikoro mu ntoki urukwereka abamukurikiye umuti afite mu ntoki w'umutuku ndetse usa nk'aho ari binini bya sida, arikubereka ukuntu bisa.